Abana biga mu mashuri y'inshuke ukunze gusanga bakunze udushusho t'wudupupe kuko bibafasha gutekereza, kwisanzura ndetse no gukina, ubwonko bwabo bukagira imitekerere myiza kandi yimbitse.

Abarezi bigisha mu mashuri y'incuke, bakunze kuba ari inzobere mu gufata neza abana mu bintu bigiye bitandukanye, aha hakaba ari umwe, urimo ucunda umwana ku mwicundo mu rwego kugira ngo amunezeze.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakunze kubashakira udutabo duto kandi turimo inkuru zigiye zitandukanye zivanze n'amashusho bityo bigatuma umwana agira umuhate wo kugasoma ndetse no gushaka kumenya ibikarimo.

Abana biga mu mashuri y'inshuuke, abarimu babicaza hasi, bityo bakabakoresha imikino igiye itandukanye, ikangura ubwonko bwabo, bigatuma nabo batekereza kure kandi bikabafa no mu myigire.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunze kwicara ku ntebe ngufi cyane kuko baba bakiri abana, maze ishuri bigiramo ugasanga ku nkuta barashyizeho ibishushanyo bibafasha kwiga inyuguti ndetse n'imibare.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke ukunze gusanga bigishwa hifashishijwe tumwe mu tuntu tugiye dutangaje. Aha hari udukarito udusa umweruru ndetse n'udusa orange bifashisha babigisha mu rwego rwo gukangura ubwonko bwabo.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakunze kubakorera utuntu tubashimisha kuko baba bakiri bato bityo bagakundishwa ishuri bitewe n'ibishushanyo ndetse n'utuntu two gukinisha ababyeyi babagenera.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunze kubigishiriza ahantu hari ibishushanyo bigiye bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo bakangure ubwonko bwabo kandi biborohere kubigisha inyuguti uru ni urukuta ruriho ingorofani umwiko ndetse n'isuka.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunze kubigisha bifashishije ibipupe, ibipupe bikaba bibafasha gukina nabo ndetse no gusabana bityo bakabikinisha bavuga inyuguti ndetse n'imibare nka kimwe mu bikangura ubwonko bwabo maze bakagira ubwenge.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunze kwigira mu mashuri mato cyane kuko na bo ntibaba ari benshi, aka ni akana kari gusohoka aho kigira kambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ubururu, imbere y'ishuri ryabo hakaba hari umuyoboro uyobora amazi.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunze kujya ku ishuri bajyanye ibyo kunywa mu macupa agiye atandukanye, mu rwego rwo kugira ngo bakurikire neza kandi bige bisaba ko baba babapfunyikiye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bakunze kwigira ahantu hari udushushanyo tw'ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo bigireho inyuguti ndetse n'imibare, aha hari indobo hakaba utunyenyeri, udutiyo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ukunze gusanga mu mashuri bigiramo ku nkuta hashushanyije ibintu bigiye bitandukanye bibafasha kumenya inyuguti ndetse n'imibare hakaba hariho itoroshi ingufuri ndetse n'ikarita y'igihugu cy'u rwanda.

Aka ni agasanduku kaba karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, abanyeshuri bo mu mashuri abanza bifashisha mu gihe bari kwiga imibare, aho harimo amarati bifashisha baca imirongo ndetse n'amakereyo bifashisha baca inziga.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri abanza bicaye hasi imbere y'amashuri. Bakaba bambaye impuzankano zigiye zitandukanye. Harimo abambaye umweru na kake ndetse n'abandi bambaye ubururu na kake. Hagati yabo hakaba hari abarezi bambaye impuzankano z'umweru.

Abana biga mu mashuri abanza, bakunze kubigisha inyuguti cyane cyane nk'Icyongereza bifashishije ibishushanyo, aho umwana yitegereza inyuguti maze akifuza kumenya icyo zisobanuye n'uko zivugwa.

Aba ni anyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bicaye mu ntebe umwe ku w'undi, buri wese yicaye mu bitugu bya mugenzi we, bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ubururu, mwarimu wabo abahagaze imbere, akaba ari kubaha ikizamini.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze gukoresha ibi bikoresho mu rwego kugira ngo bige neza guca imirongo bakoresheje amarati maremare, bige gupima imfuruka, guca inziga ndetse no kuzipima.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakunze kwifashisha amarati agiye atandukanye ndetse n'ibindi bikoresho, mu rwego rwo kugira ngo bitoze guca imirongo, guca inziga ndetse no gupima amafuruka, bityo bakure bazi imibare.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, abarimu babigisha, bakunze kubigisha bifashishije ingero z'ibihingwa, amatungo ndetse n'ibindi, aha hakaba hari udushushanyo tw'ihene, urukwavu ndetse n'insina, aho babikoresha babigisha.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakunze kubaha ibikoresho bibafasha kwiga neza imibare. Aho babaha amarati aca imirongo ihagaze, aca ibiziga ndetse bakabaha n'apima imfuruka.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bifashisha bimwe mu bikoresho birimo nk'ingwa ndetse n'udukinisho mu rwego rwo gukangura ubwonko bwabo no kubumvisha neza uko inyuguti, ibihekane n'imibare bivugwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, bakunze kwigira ahantu harimo ibishushanyo bigiye bitandukanye, bityo abarimu bakabyifashisha mu rwego rwo kugira ngo bakangure ubwonko bw'abo bana maze batekereze byimbitse.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze kubigisha bifashishije bimwe mu bishushanyo nka kimwe mu bituma ubwonko bwabo bukora mu buryo bwihuse bityo bakabaremamo icyizere, ubudahangarwa ndetse n'ubumenyi.

Iki ni igikorwa cy'ubukangurambaga, ni gahunda yo gutangiza icyumweru cya siporo, aha hakaba hari umuyobozi w'umumama ufite indangururamajwi, inyuma yabo hakaba hari insakazamajwi, akaba ari kubagezaho intego y'iyi gahunda.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakunze kubigisha imibare ndetse n'inyuguti bifashishije ibishushanyo biba bigiye biriho utuntu tugiye dutandukanye, bityo bagakoresha inyurabwenge bari gusubiza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze gukoresha bimwe muri ibi bikoresho biri muri aka gasanduku mu rwego rwo kugira ngo bimenyereze guca imirongo, guca inziga, gupima amafuruka ndetse n'ibindi bituma baguka mu bwonko.

Abana biga mu mashuri abanza bakunze kubigisha bifashishije amashusho, aho babigisha inyuguti ndetse n'imibare baberetse amafoto ya bagenzi babo cyangwa se ibindi, aho bagaragaza umwe icyo yakoze n'undi icyo yakoze.

Abana biga mu mashuri abanza bakunze kubicaza babiri babiri mu rwego kugira ngo bamenyane kandi bige neza, aha harimurezi ubari imbere, akaba ari kugenda abasomera inkuru ziri mu gatabo, ubona ko ashaka kubashimisha kandi bakagira icyo bafata.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bakunze kubigisha bakoresheje amashusho kuko aribyo bibafasha gutekereza neza ndetse no gufata mu mutwe, aho babereka ifoto bakavuga ngo uyu ni Jambo, Jambo akaba umwana ndetse uyu mwana akaba ari uwa Jambo na Simbi, bakabereka Keza, Ganza, Shema na Isaro.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano iri mu mabara y'umweru, umukara ndetse bambaye n'imipira y'ubururu, bamwe bambaye n'amakaruvati, hakaba harimo n'abarezi babo, bambaye amakanzu ari mu ibara ry'umutuku.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba bari bagize ihuriro ryiga ku bijyanye n'ubuzima ndetse no kwishimisha, bamwe bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'akaki, abandi bakaba bambaye umweru n'umukara.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye Leta yanzuye ko bagomba kujya bafatira amafunguro ya saa sita aho biga, bityo aha hakaba hari abaje kugenzura uko ayo mafunguro ategurwa n'uko abanyeshuri bayahabwa.

Aba ni abana biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano z'umweru ndetse n'icyatsi kibisi, bakaba bafite impamyabumenyi bahawe n'umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru umwe imbere. Aba bana barishimye.

Iki ni ikigo cy'amashuri hakaba higira abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aha ni ahakorerwa imyimenyerezo aho baba bimenyereza ibyo biga, hakaba harimo abanyeshuri bambaye amajire ari mu mabara agiye atandukanye ndetse n'abarimu bari kubasobanurira.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bicaye mu kigo hagati ku madarage hakaba harimo umumama w'umuzungu bigaragara ko akiri muto, bose barishimye kandi bari gukoma mu mashyi bigaragara ko bizihiwe.

Uyu ni umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye, akaba yahawe igihembo cy'uko yahize abandi mu mihigo. Umwarimu we akaba ari kumuha igitabo ndetse, anamusomera icyatumye bamuhemba nk'umunyeshuri w'indashyikirwa.

Aba ni abana b'abakobwa biga mu mashuri yisumbuye barasa neza cyane kandi barakeye bambaye impuzankano nziza harimo abambaye umweru ndetse n'ubururu, bambaye na karuvatikaba n'abandi bambaye ubururu ndetse na nabo bambaye karuvati.

Iki ni ikigo cy'amashuri yisumbuye, izi zikaba ari inzobere mu bijyanye n'ubwubatsi, zikaba zarubatse iki kigo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kwimakaza uburezi ndetse n'iterambere ry'abakiri bato.

Abana biga mu mashuri yisumbuye usanga bigira mu bigo byiza cyane, aho ibi bigo biba bigaragaza amazina yabyo ndetse nuko byigisha. Aha ni mu kigo cy'amashuri cya Nyagatare hakaba ariho abana bambaye impuzankano.

Aba ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bakaba batonze imirongo, bambaye impuzankano ni imipira y'ubururu iriho utuntu tw'umweru mu ijosi, iruhande rwabo hakaba hari ihema ryiza cyane ry'umweru ririho n'igitambaro cy'ubururu.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza ndetse n'ubumenyingiro ukunze gusanga bigira ahantu heza cyane, aha bari kugaragaza ko ari ahigira abiga ibijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ishoramari.

Abanyeshuri biga mu ma kaminuza yaba aya leta ndetse n'ayigenga, bakunze gukora ibikorwa by’ubukorikori, gushushanya, kwimurika ndetse no kumurika umuco gakondo. Ibi rero bikaba biranga abanyeshuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri makuru ndetse na za kaminuza bakunze guhabwa amahugurwa agiye atandukanye, aho bahugurwa kandi nabo bateze amatwi ndetse bahanze n'amaso kugira ngo ibi bazabigeze mu miryango baturukamo.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza ndetse n'amashuri makuru ukunze gusanga bakora ibikoresho bigiye bitandukanye kandi by'ubukorikori, aha hakaba hari indobo ndetse n'intebe nziza imeze nk'indobo.

Iyi ni inyubako yigirwamo n'abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'abiga mu bumenyingiro, izi nyubako ziba zubatswe mu buryo bugezweho bigatuma abahiga bagira ishema ndetse n'umurava.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza ndetse n'abiga imyuga n'ubumenyingiro bakunda gukora ubushakashatsi kandi ubwo bushakashatsi bakabukora bandika. Niyo mpamvu usanga ibintu byose bakora baba babyandika.

Abanyeshuri biga muri za kaminuza ndetse n'ay'imyuga n'ubumenyingiro, bakunze gukora ubukorikori ndetse n'ubugeni, aho bihangira imirimo. Aha turi kuhabona inkuta ziriho udushushanyo twakozwe na bamwe muribo.

Abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'abiga ubumenyigiro, usanze bakunze kuba bafashanya. Uyu n'umwe mu wari wananiwe guhaguruka, bakaba bari kumuhagurutsa mu rwego rwo kugaragaza ubufatanye n'urukundo.

Aba ni abanyeshuri barangije kwiga kaminuza bambaye amakanzu meza cyane y'ubururu arimo n'utubara tw'umutuku bamanitse amagofero yabo hejuru, kwiga ni ibintu byiza cyane ariko kurangiza byo ni agahebuzo.

Aba ni abanyeshuri biga muri kaminuza. Bicaye ku ntebe nziza cyane bambaye udupfukamunwa. Imbere ya buri munyeshuri hari mudasobwa ndetse imbere yabo hari umwarimu nawe wambaye agapfukamunwa uri kugenda ubasobanurira.